Abagabo babiri umwe agaragaza amaboko abiri, kumwe gufashe igipfuko ikindi ukuguru kundi arimo amupfuka, munsi hari icyapa cyanditseho Radiyanti yacu, cy'ibara ry'ubururu.

Itungo ry'ingurube ikiguzi cy'ubwishingizi gatandatu ku ijana, ubwishingizi bw'ingurube, Radiant yacu, hamagana cumi n'umunani icumi telefone zeru, karindwi, umunani, umunani, mirongo itatu nari rimwe, mirongo itandatu na karindwi, mirongo icyenda na karindwi.

Umugabo wambaye ishati y'uturongo, w'igikara, akaboko ke kari kuri mashine, ibara amafaranga, imbere ye, hari amafaranga afungishije ifimbo, n'agapapuro k'umweru.

Abantu bane, harimo umugabo umwe n'abagore batatu, bari ahantu hari ibara ry'ubururu n'umweru n'icyatsi kibisi, harimo icyapa cyanditseho Inyange Milk Zone.

Urupapuro rusa umweru, rwanditseho amagambo menshi yanditse mu cyongereza, hariho umugabo wunamye uciye bugufi, wasamye, wakanuye cyane, yafunze n'ibipfunsi bibiri, imbere yambaye ipantaro y'ikobo n'umupira w'umweru.

Abakobwa babiri barimo bahererekanya ibintu umwe aseka undi amuhereza ibyo amuzaniye, yambaye ishati yanditseho vuba vuba n'inyuma ye hari icyapa cyanditseho vuba vuba.

Urupapuro rugizwe n'amabara atatu. Icyatsi kibisi, umutuku n'umweru. Rufite utuzu dutatu twanditsemo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, no hasi hari utundi tuzu dutanu twanditseho ururimi rw'icyongereza. N'idarapo ry'u Rwanda.

Amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, mituweri de sante, yanditseho RSSB, yandikishije ibara ry'umukara, ari ku mpapuro z'umweru, yegamye ku gitambaro cy'umuhondo.

Etajeri irimo ibicuruzwa byinshi, hari umugabo umwe wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara, afite akabokisi mu ntoki na terefone arimo abirebaho hari ibyo arimo kwandika.